Pwavuro zimeze neza, intogi zimeze neza, biragaragara cyane ko uyu muhinzi yazitagaho uko bikwiye, kuko zimeze neza ziteye apeti. Ikindi kandi ziitangaga amafaranga.

Inyamaswa zibaga mu ishyamba, zitangaga umusaruro gushimishije kuko zituma haza abakerarugendo mu gihugu, baje kureba ubwiza bw'izo nyamaswa.